Abadaso bari mu myitozo, bafite ibikoresho bibafasha, mu gucunga umutekano, ni byiza cyane, barapfukamye, bari kwitoza uko bazajya, bacunga umutekano, w'igihugu bambaye iniforome bose, hejuru no hasi bameze neza, n'inkweto zabugenewe, kugira ngo bakore akazi kabo neza.

Ubwato bwa polisi, ubwato bw'abapolisi bushinzwe gukora gucunga umutekano bugendeye mu mazi, aho bajya mu mazi bakagendera mu bwato bwabugenewe bubafasha gucunga umutekano no gukura abantu mu mazi bagize ibibazo bitandukanye, aho babushyira mu mazi bugakorerwa mu mazi gusa ntahandi bukorewe.

Aho ubuyobozi bwegereye abaturage, aho abashinzwe umutekano begereye abaturage babereka uburyo ki bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo gaze, babereka uko gaze iramutse itombotse bakoresha kizimyamwoto bayizimya, aho bari guhugurwa ku bintu bitandukanye byatuma birinda impanuka mu ngo zabo, kugira ngo babashe kumenya uko bakorana n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ikiigo kibamo abapolisi ,abapolisi bashinzwe gucunga umutekano no kuyobora ibinyabiziga mu muhanda bitandukanye .Inyubako ibamo abapolisi ikikijwe n'icyapa kandi ikaba ifite aho imodoka ziparika ,ikaba ifite n'aho yakirira abantu baje babaza ibibazo.

Abantu bashinzwe gucunga umutekano ari bo abapolisi n'abasirikare, bakaba bari ku mazi ariho bahagaze, kandi bakadufasha gukora umutekano w'igihugu neza.

Ingabo zishinzwe gucunga umutekano, kandi zikarinda abaturage, zikarinda n'ibikorwa remezo byagezweho mu gihugu. Aho zirinda umutekano zambaye impuzankano, inkweto zabugenewe, aho ziri ku murongo zerekeza mu kazi kazo ko gucunga umutekano. Ni byiza kuba ingabo kuko zifasha abaturage kubaho neza batuje.

Umuntu ukora akazi ko gucunga imfungwa, aho afite mikoro yicaye mu nama yabugenewe ihurirwamo n'abandi bantu benshi, aho ari gutanga amabwiriza, aho avugisha abantu ashinzwe kurinda maze bakamutega amatwi bagakurikiza amabwiriza n'inama abagira mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahabera inama itandukanye, aho abashinzwe umutekano bakusanyije abaturage babagira inama n'uburyo ki bagomba kwitwara, aho bagomba gukurikiza amategeko ya leta kandi bakabaho batuje bisanzuye, kuko umutekano ari wose, aho abashinzwe umutekano (abasirikare) begereye abaturage bakabagira inama, aho bicaye imbere y'inyubako y'amashuri bakaba bicaye ku ntebe zikoreshwa n'abanyeshuri, kandi bakaba bari kumva ibyo babatumirijeho neza.

Iyi nama yahuje abaturage batandukanye, aho abaturage bari mu nama aho batuye, kugira ngo bumve amabwiriza no gukurikirana amabwiriza agenga igihugu, kugira ngo bakomeze bagendere ku mabwiriza kandi bagire ubuzima bwiza babeho neza bameze neza, kandi bagendana n'iterambere ry'Igihugu aho bari mu nama n'umuyobozi wabo, bakaba bicaye bateze amatwi bari kumva inama bameze neza.

Inyubako iberamo inama，inyubako iberamo inama zitandukanye z'ikoranabuhanga n'izisanzwe， abantu aho bafata mikoro，bakavugira mu bikoresho by'ikoranabuhanga，kandi bakaba bicaye harimo ibikoresho bitandukanye， abantu bakoresha bicaraho，intebe， ameza， kandi bikaba bifitiye igihugu akamaro.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, aho bicaye mu nyubako yabugenewe, n'ameza yabugenewe, aho inyubako iberamo inama, irimo ibikoresho byabugenewe, bibafasha kurema inama, aho bafite ameza n'intebe zabugenewe z'abayobozi, aho bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bibafasha kumvikanisha inama.

Abakozi bashinzwe gukora isuku aho dutuye, abakozi barimo barakubura umuhanda bafite imikubuzo, kandi bambaye n'imyenda yabugenewe ari yo amajire kugira ngo abagenzi babone aho banyura hasukuye kandi bimakaze isuku muri karitsiye iwacu aho dutuye. Ni byiza gukora isuku aho dutuye.

Inyubako ihuza abantu bari mu nama batandukanye, aho yakira abantu benshi bagakora inama, kandi ikaba yubatse neza ifite ibikoresho bitandukanye bifasha abakurikirana inama kuyikurikirana neza. Kandi bakaba bafite ibikoresho bibafasha aho bafite ameza baterekaho amazi, n'amaterefone na mashine bityo bikabafasha gukurikirana inama neza.

Inama y'abaturage, aho umuyobozi w'abaturage ari kubagira inama, kandi bakamubwira ibibazo bafite, akabagira inama y'uko bagomba kubaho, kandi bagomba gukurikiza amategeko y'igihugu, kandi bakagendera ku burenganzira no kubaha amategeko y'igihugu, maze bakabaho neza, kandi bakabaho bakurikiza amabwiriza ngenderwaho y'igihugu, maze bigatuma...

Inzu iberamo inama zitandukanye, aho iberamo inama zitandukanye, aho irimo ibikoresho byabugenewe biberamo inama, ameza aho abari mu nama, bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mikoro n'ibindi bintu bitandukanye, aho bicaye neza batuje kandi bakaba bari mu nama, biga ingingo zibyagezweho, n'uburyo ki bafata imyanzuro.

Inama yahuje abantu batandukanye. Aho abantu barimo n'abashinzwe umutekano n'abanyepolitiki batandukanye bari mu nama. Bakaba bari mu nzu yabugenewe, aho harimo ibikoresho byose bibafasha gukurikirana inama neza. Harimo ameza yo guterekaho amacupa y'amazi, harimo intebe zo kwicaraho zabugenewe, kandi zigezweh. Kandi bakaba bafite n'ikoranabuhanga rimeze neza.

Inyubako iberamo inama, z'abantu benshi batandukanye, aho ifite ibikorwa byabugenewe, bifasha abari gukora inama, bagakurikirana inama neza, aho ifite ameza ameze neza ariho ibitambaro, aho batereka imashini, na telefone n'amazi yo kunywa, maze bagakurikirana inama bameze neza, ikaba yubatse neza ifite amakaro, ikaba ikorewe amasuku rwose, bagakurikirana inama abatu.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda z'umuco wacu bigatuma umuco utibagirana, kandi bagashimisha abantu bari kubareba bityo bagakoreramo n'amafaranga bikabateza imbere, kandi bigatuma babaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi maze umuco w'Abanyarwanda ugatera imbere ntucike , bityo bikagirira igihugu na ba nyirabyo akamaro.

Ubworozi bw'inzuki, aho inzuki ziri mu mitiba zikaba zabugenewe, bityo bigatuma abazorora babasha gukusanya umusaruro wazo, noneho bigatuma bakurikiza n'umuco wacu w'abanyarwanda bityo bikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuco gakondo, aho umwirongi uvuzwa, maze ukumvakanisha amajwi, bityo ukaba ari bimwe mu bikoresho abanyarwanda bifashishaga, bakoresha kugira ngo umuziki utere imbere, kandi bibafashe mu ndirimbo, mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bavuzaga umwironge maze amajwi yabo ukumvikana cyane neza, kandi akumvwa n'abantu benshi.

Umuco w'abanyarwanda aho benga ibitoki bagakuramo umutobe, maze bagakuramo umutobe ukomoka ku bitoki by'abahinzi, baba babonye umusaruro wa mutobe barawujyana bakawuha ubundi bakabigurisha bakabona amafaranga yo gukuramo ibintu bakeneye, maze bagakamira mu muvure, bagakoresha n'ibindi bikoresho nyarwanda.

Ababyinnyi bari kubyina. Abahungu n'abakobwa bari kubyinira mu kibuga cyabugenewe, aho basanzwe babyinira, imbere y'inyubako y'amatafari ahiye. Ababyinnyi barabyina bamanitse amoko, kandi bakabyina imbyino z'umuco wabo, aho bibafasha mu buzima bwa buri munsi, bikabateza imbere kuko babyinira abantu bakishima ,maze bakabaha amafaranga.

Umuco nyarwanda imibereho y'abantu ba kera n'ibyabarangaga, aho biyogosheshaga amasunzu, aho batwaraga inkongoro n'icyansi banyweragamo amata, bityo bigatuma babaho aho bambaraga impu, bityo bigatuma babaho bishimye, kandi bakundaga n'umuco wabo wa kera.

Umuco gakondo aho imyenda y'imishanana yambarwaga n'umubyeyi n'umugore, kandi agatega neza urigori, kandi akambara n'ibikomo byabugenewe, aho bambaraga imikenyero neza, bagasokoza umusatsi neza, bityo bigatuma umuco udacika kandi bikagirira igihugu akamaro, aho haba hagaragara ikirago mu mafoto, kugira ngo umuco w'abanyarwanda ugaragare.

Umudaho bakoresha bari guteka, umudaho ukaba ari umwuko ubajije mu giti, kuko ari igikoresho cya kinyarwanda kitwibutsa umuco w'Abanyarwanda. Aho bakoreshaga umwuko bakora umutsima cyangwa se bashigisha igikoma. Bityo bigatuma babona uko bategura amafunguro yabo ya buri munsi, bifashishije ibikoresho nyarwanda batagiye kugura mu isoko.

ubworozi bw'inzuki, aho umutiba bawuhagitse mu giti, kandi ukaba utegerejwe kujyamo inzuki. aho ari umuco nyarwanda. Umuco ntugacike, aho bafata umutiba bakawuboha mu birere bakawushyira mu biti maze inzuki zikayobokamokamo zigatanga umusaruro. Bityo hakavamo ubuki maze uwawuhagitse akabona amafaranga yo kwifashisha. Kandi bikagaragaza n'umuco bw'abanyarwanda ntigucike.

Ikigega bahunikamo umusaruro w'ibintu bitandukanye. Ikigega kiboshye mu migano， kigasakazwa ibyatsi， kikaba kifashishwa mu guhunikamo ibihingwa bitandukanye， byaba ibirayi， byaba amasaka， ibigori，n'ibindi bintu byinshi bitandukanye，maze bigatuma imyaka y'abaturage，igenda neza.

Ubworozi bw'inzuki, aho inzuki ziba mu mutiba ugashyikwa mu biti maze zikaryamo, maze zikaduha umusaruro w'ubuki, maze ba nyirabwo bakazabona, bakazajyana ubuki ku isoko, maze bakabonamo amafaranga y'ibyo bakeneye, bigatuma baguramo ibintu bifuza, kandi nabo bakaryaho bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ni ibiseke biboshywe neza, bitaka mu mazu yacu, ibi biseke ni byiza kubera ko tubitaka mu mazu yacu, biteretse ahantu ku meza bimeze neza, ni ibiseke bitatu bifite amabara, biboshywe neza kandi bigufasha kubika ibintu bitandukanye, ari byo ibintu twifashisha mu...

Abatahira b'inka bari kudekora inka kugira ngo zibashe kwerekanwa mu kirori bagiye gukoresha. Inka z'inyambo ziri kwerekanwa mu bukwe abatahira bazo bari kuzivugira no kuzambika urugori.

Imbyino gakondo aho ababyinnyi babyina bakoresha ibikoresho bya kinyarwanda, ibikoresho abakurambere bakoreshaga mu muco wabo wa mbere, aho bakoresha inkoko, bagakoresha ikibindi. Ibikoresho bigaragaza umuco w'Abanyarwanda babagaho kera bakaba bambaye n'imishanana yabugenewe, kandi bakaba babyinira imbere y'inzu ya kinyarwanda bityo bikaba ari umuco.

Abakobwa bambariye umugeni aho bambaye bakurikije umuco wabo, aho bafite inkongoro ziba mu muco, aho bakurikije umuco bambaye ingori mu mutwe, kugira ngo bigaragare ko ari abanyarwandakazi, aho bafashe inkongoro igaragara ko inywerwamo amata, n'ibindi byinshi bitandukanye bambaye neza bakeye.

ingoma zikaba ibikoresho gakondo byifashishwa mu kumvikana umuziki, ariko batabashije batabashije gukoresha ibikoresho bya kizungu, aho bikoreshaga ingoma maze umuziki n'indirimbo bikumvikana neza hifashishijwe gukoma ingoma, bityo bigatuma abantu bishimira bumva izo ndirimbo kubera ingoma

Inkono ya kinyarwanda aho itetswemo ibiryo, ikaba iteretswe mu nyubako ishinzwe gutekeramo ariyo igikoni, bakaba bateretse ku mashyiga yabigenewe kandi bakaba bateka bakoresheje inkwi, bityo bakabona amafunguro yo kurya kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kandi bakabigirira isuku bagateka bipfundikiye neza.

Imitako myiza yifashishwa mu gutaka ahantu hatandukanye, iyi mitako myiza cyane yifashishwa mu muco nyarwanda mu kubyina no mu misango yubukwe, ni myinshi iratandukanye kandi ikorwa mu buryo butandukanye, ni imitako igizwe n'ibintu.....

Kubaza amaseku yo kwifashisha mu gukekura ibihingwa byavuye mu musaruro bitandukanye, aho kubabaza amasekururo mu biti byabugenewe maze hakavamo ibikoresho bya kinyarwanda, byo gukoresha uyibereye mu rugo aho basekuriramo isombe, bagasekurimo n'izindi mbuto zitandukanye. Bityo bakabasha kurya bitabanje kubaho.

Inzu ndangamurage yubatse mu buryo bwa kinyarwanda. Aho ifite ibikoresho byose bitwereka umuco wa kera abanyarwanda bakoreshaga. Aho yubatse itwibutsa umuco w'abanyarwanda. Inzu babagamo kera akaba ari gutya yabaga iteye. Aho ifite ibirago, ikaba yubakishije ibyatsi byabugenewe, ifite n'urugo rwa kinyarwanda.

Umuco utandukanye ugizwe n'ibikoresho byabugenewe bitandukanye cyane, harimo ibirago, harimo imisambi, harimo n'imitako biboshywe mu byatsi, kandi bikaba bitegurwa ahantu hatandukanye, aho abantu baryama bagasasa ibirago, ibyo bikatwigisha umuco w'Abanyarwanda babagamo kera na kare, bityo bigatuma batibagirana muri ubu buzima.

Ababyinnyi ba kinyarwanda bari kubyina bambaye impuzankano. Bafite ibikoresho, amacumu, bambaye amayugi. Ababyinnyi baratubyinira bagasusurutsa abantu, bigatuma bishima mu mitima yabo. Ababyinnyi ni beza cyane, kuko bambaye impuzankano kandi baserutse neza.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino za kinyarwanda, aho basimbuka bakabyina maze bagashimisha abari kubareba maze nabo bikabagirira akamaro. Kubera ko iyo bari kubyina babaha amafaranga bakifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi bigatuma babaho neza kandi bakoze neza abantu bakishima nabo bakishimira ibyo bakora.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda, bambaye impuzankano imishanana bamanitse amaboko, aho babyina kugirango ngo bagire ubuzima bwiza, bashimishe ababareba bari mu nyubako yabugenewe hejuru kuri podiyumu bari kubyina, bizihiwe cyane nibyiza.

Amazu yubatse mu muco nyarwanda, amazuru yubakishijwe ibyatsi kandi ya muviringo afite urugo ruzitije imbigo, aho yerekana uburyoki Abanyarwanda babagaho kera, uburyoki Abanyarwanda bo hambere babaga batuye, ni gutya babaga batuye mu nzu za muviringo kandi zisakaje ibyatsi zifite n'agasongero ku inzu.

Igisoro gikinwa n'abantu batandukanye ,aho igisoro gikinwa n'abantu babiri ,umwe agamije gutsinda undi kugira ngo babashe kwishima mu buzima ,kandi bakanagikina kugira ngo bari mu marushanwa maze utsinze agahabwa ibihembo yateguriwe ,bityo bigatuma abasha kubaho yishimye, kandi akagira ubuzima bwe.

Ibikoresho bitandukanye biranga umuco w'abanyarwanda aho harimo ibirago abakurambere bacu bicaragaho, aho harimo ibiseke bakoreshaga bari mu birori bagataka no mu mazu yabo, aho harimo ibicuma bakoreshaga banywa inzoga zitandukanye, aho harimo imiheha yabafashaga kunywera mu bicuma maze bigatuma umuco udacika kandi bigakoreshwa neza bifite ubuziranenge.

Inyubako ndangamurage y'igihugu cyacu irimo imitako itandukanye, irimo ibiseke bitandukanye, ibikoresho bya kinyarwanda bitandukanye, amatara, iboshywe mu bigega, ifite inkingi z'induru, kandi irimo n'itara rituma abinjiyemo babona umuco nyarwanda.

Ibikoresho bya kinyarwanda byakoreshwaga kera ,aho biri aho byabugenewe, inkoko iteretse ku kirago ,ikaba inkoko iriho igicuma cyifashishwa mu kunywa inzoga zengewe mu Rwanda ,hakaba uruho rudufasha kunywa amazi cyangwa se igikoma, hakabaho imiheha kwifashisha tunywa ikigage cyangwa ..

Inka mu muco nyarwanda zikobwa abageni bagiye gushyingirwa, kandi zikagabiranwa n'abantu bafitanye ubucuti, bityo ubucuti bwabo...

Ibikoresho gakondo bifasha abanyarwanda gukora umuzika, badakoresheje ibituruka mu mahanga, aho bakoresha umuduri mu kuririmba maze ugasohora amajwi, indirimbo ikumvikana neza. Ibyo ngibyo bigateza umuco w'abanyarwanda imbere kandi bikabafasha no kuba indirimbo yabo yagerwaho, batiriwe bajya gukoresha ibikoresho by'ahandi.

Ibikoresho bya kinyarwanda bikwibutsa umuco w'abanyarwanda aho hari ibiseke bibikwamo imyaka itandukanye, aho hari ibituma bakoresha bari kunywa inzoga, aho hari imiheha bifashisha bari kuba bari kunywera mu bicuma, aho biteretse kugira ngo biboshwe neza birimo amabara biboshe umubwatsi.

Ikigega gihunikwaho imyaka, umusaruro n'ibintu bitandukanye kikaba bitwibutsa umuco wa kera, aho bahunikaga mu bigega kandi kikaba gikikijwe n'uruzitiro rwubakishije ibikenyeri , bityo kikaba cyubatse mu buryo mu kinyarwanda bw'inzu za kera babagamo zubakishije ibyatsi zifite n'agasongero, bityo umuco wacu ntuducike.

Ibikoresho bitandukanye byerekana umuco, ibikoresho bikozwe n'abantu bibumbye mw'ibumba, aho bikozwe mu bikoresho byabugenewe, tutarindiriye kujya kugura, ibikoresho by'amahanga, aho bibumbye ibibindi bibumbye mu bubumba, ibindi biboshwe, ibindi bipfundikije ibirere, aho umuco w'abantu, babagamo kera mu Rwanda.

Ibikoresho bigaragaza umuco w'abanyarwanda aho harimo imbehe zifashishwa mu kurya, kera mu bakurambere bacu harimo ibiseke byafashaga abakurambere bacu gutwaramo imyaka no gukoresha mu birori bitandukanye. Inkongoro zafashaga abaturage gukamiramo amata kandi bakayanyweramo bityo bakabaho batuje neza mu bikoresho gakondo bya kinyarwanda bityo umuco ntugacike.

Ibikoresho bitandukanye biranga umuco bw'abanyarwanda. Aho harimo imivure , aho harimo ibirago, aho harimo imihururu , aho harimo ingobyi izo bahekagamo abantu, n' inzoga zo kunywa. Aho harimo n'ibindi bikoresho bynshi bitandukanye bigaragaza umuco w'Abanyarwanda , kuko kera babagaho kandi bakoresha ibintu gakondo.

Ubworozi bw'inzuki, aho zororewe mu mutiba ukaba umanitse mu giti, aho uri kutwibutsa umuco w'Abanyarwanda uko bajyaga bagika umutiba mu giti, maze bityo hakinjiramo inzuki maze zigatanga umusaruro w'ubuki, maze ba nyirabwo bakajyana ubuki ku isoko bakabugurisha, bityo bakabona amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo.

Urusyo basyaho imbuto zitandukanye zikaduhereza ifu, aho urusyo ari ibuye rifite ingasire, aho basya bakura ibyo gusya mu byibo bakabishyira ku urusyo, bityo ibyo byose bikaba bitwibutsa umuco nyarwanda uburyo ki Abanyarwanda kera babagaho bakoresha urusyo, bagasya, bakabona ifu yo guteka umutsima n'igikoma. Bityo bikaba ari byiza.

Ibiribwa bitandukanye; umutsima uri ku nkoko, utegurirwa ku nkoko, ugaburirwa abantu, ingano zitetse, ziri ku isahani, umutsima w'amasaka uri ku isahane, amandazi, ibigori, amasahani, biteretse ku meza bitegerejwe ko abantu baza bakabifungura, maze bigatuma bagira ubuzima bwiza n'imba...

Mu muco w'abanyarwanda aho umuco wa kera aho bari kuboha igiseke kandi bakoresheje intoki n'amaboko, kandi ku kirago aho ibiseke bibohwa kandi bikaboherwa mu rugo maze bikabasha kujyanwa ku isoko bigakurwamo amafaranga, ibindi bakabishyira mu nzu bikaba imitako, n'ibindi bigafasha abaturage gushyiramo ibintu bitandukanye.

Inka z'inyarwanda aho ziba ziri n'abashumba, aho ziba zigiye gukobwa umugeni bikaba ari umuco w'abanyarwanda gukwa umukobwa cyangwa se umugeni yambaye urugori rwabugenewe kugira ngo bigaragare ko ziri mu muhango w'ubukwe, aho umuco ukomeje gukurikizwa kandi ugashimisha abanyarwanda.

Intore za kinyarwanda, zibyina imbyino za kinyarwanda z'umuco wacu. Zifite ibikoresho byabugenewe. Zambaye iniforume zabugenewe kandi zisa neza. Zambaye amayugi ku maguru n'imyenda yabugenewe, kugira ngo zihamirize zishimishe abaturage ni byiza kubyina...

Kwenga ibitoki bikavamo umutobe aho umusaruro w'ibitoki wabonetse, bakabitara bikavamo imineke maze barangiza bagafata imineke bakayenga kugira ngo ivemo umutobe n'urwagwa rwo kunywa, maze bakabona icyo kunywa gituruka ku buhinzi bwabo ,bikabaha amafaranga yo kwifashisha bakagira ubuzima bwiza.

Ababyinnyi babyina indirimbo umuco gakondo, aho babyina bagasusurutsa abari mu birori, kandi bakabyina neza kandi bakabyina bambaye bikwije, aho bakenyeye imishanana, bakaba bambariye n'imitako mu majosi, kugira ngo bagaragare neza kandi batange ibyishimo kubabareba . Aho bafitiye igihugu akamaro kandi bakatwigisha n'umuco wacu nt'ucike.

Ibibindi bibumbye mu ibumba bitwibutsa umuco wacu w' abanyarwanda, aho inkono zo za kinyarwanda zo gutekamo zibumbye mu ibumba zikorwa n' abanyarwanda, kugira ngo babashe kuzigurisha babonemo amafaranga yo kwifashisha, aho babumba inkono, bakabumba n' ibibindi byo guterekamo inzoga zo kunywa.

Inkongoro bashiramo amata yo kunywa, aho ari mu muco nyarwanda bashyira amata mu nkongoro ikonzwe mugiti maze bigatuma abantu banywa amata neza, kandi bikabafasha kutibagirwa umuco gakondo, bigatuma bagira ubuzima bwiza; amata ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko aturinda indwara kandi atuma_

Amazu agaragaza uburyo ki abanyarwanda babaga batuye kera, aho bubatse muviringo basakaje ibyatsi, aho bafite urugo ruzengurutse ari nako kera abanyarwanda bahoze babaho, hari inka mu mbuga uko zabaga zimeze, maze bityo bikerekana umuco w'abanyarwanda uko bahoze babaho mu minsi yashize iri imbere.

Umushumba aruhirira inka ku kibumbiro zinywa amazi .Inka ni nziza mu buzima bwacu kuko ziduha amata tukanywa .Umushumba aradaha amazi mu iriba ahereza inka zishoka ,ni byiza ko dushora inka kuko inka zigomba kunywa amazi ,kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ibikoresho bikoreshwa n'ikoranabuhanga babicomeka ku muriro w'amashanyarazi bityo bikabasha gukora, aho dufite firigo ikora ari uko icometswe ku muririro bityo ikabasha gukonjesha ibintu kandi ikabirinda gupfa bityo bikamara igihe, ni byiza gukoresha ikoranabuhanga kuko bifitiye abantu akamaro kandi igatanga ibintu bifite ubuziranenge.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, aho gifasha abantu bakoresha ibintu ibya tekinike gufungura no gufunga ibikoresho runaka bisaba gukoresha tekiniiki, aho gifasha ba nyiracyo gukoresha besitara umuriro w'amashanyarazi mu mazu n'ahandi, aho kibafasha kwinjiza amafaranga bitewe n'uko kibafasha mu kazi kabo.

Inyubako iri mu busitani yubakishije amatafari ahiye ikikijwe n'ibiti bitandukanye, inyubako ifite indabyo n'ubusitani bwiza kandi bubereye ijisho. Imyubako igizwe n'amabati y'icyatsi ikagira inkingi nyinshi zitandukanye.

Aba bakozi bakora imirimo yo kubaka inyubako zitandukanye, aho basoje akazi bakaba bari kuganira ibyo bamaze kugeraho. Bakora akazi ko kubaka amazu atandukanye, kandi bikabaha amafaranga abafasha mu buzima bwa buri munsi, bakagakora neza batanga umusaruro.

ikigo gishinzwe kwakira abapolisi, aho abapolisi baba kandi bagakemurira ibibazo abaturage bijyanye n'umutekano, aho bakimeze neza cyubatse ahantu heza hafite isuku kandi hafite uruzitiro rukoze neza, gifite idarapo, ubusitani, indabo, kikaba kiri ahantu hafite inyubako kandi hakikijwe n'ibiti byinshi, kugira ngo abahagana bahagirire umutekano.

Inyubako rusange za Leta， aho zikorerwamo ibikorwa bitandukanye， bibyarira Leta inyungu， aho zishinzwe gukoreshwa ibintu bitandukanye，bibyarira Leta inyungu，kandi bikaba ari n'ibikorwa remezo， bituma ahantu hasa neza，kandi abahatuye bakagira iterambere， kubera inyubako zizana inyungu y'igihugu n'umuturage.

Inyubako abantu basengeramo, aho yubatse ikaba ifite umusaraba ikaba ifite ahantu ho kuririra amasikariye, ikaba iteretse mu kibuga kinini kandi ikoteje amapave, bigatuma abantu baza kuhasengera ari benshi abari no mu modoka zabo, bakabona aho baparika maze abantu bakaza bahagana......

Inyubako zishinzwe kubamo abantu bakoze ibyaha bitandukanye， ariyo gereza， aho ifite urukuta rw'amatafari， aho ifite ikibuga hagati， aho ifite amazu ayikikije， kandi ikagira n'ibimera biyikikije bitandukanye， aho yakira abantu bakoze ibyaha bitandukanye，maze ikabafasha kurangiza igihano.

Inyubako zitandukanye za leta zi zifatamo ibintu bitandukanye , aho zikikizwa n'umudugudu y'abantu batuyemo, abantu benshi aho harimo umuhanda wakozwe neza uhuza abaturage, aho abaturage banyuramo bagiye ku mazu yabo, aho babinyuramo bagiye no mu mirima yabo, aho leta inyuramo igiye gusura inyubako yakorerwagamo ibikorwa byayo.

Inyubako ya reta ikorerwa mo ibintu bitandukanye, aho haberamo inama y'imiryango ya leta itandukanye, aho ari inyubako ikikizwe n'ibidukikije harimo jaride ifite parikingi waparika imodoka, aho ari inyubako iri ku muhanda ikaba iberamo ibikorwa bitandukanye bya leta ishinzwe guteza imbere iterambere ry'igihugu bityo bigatuma.

Ikiraro gifasha abaturage kwambuka umugezi kandi bakagera aho bagiye mu mirima yabo, n'aho batuye bakagerayo neza, kandi batuje batekanye. Aho kibafasha kwambuka bakagenda neza, kandi kikaba ari igikorwa remezo cya Leta, aho giciye ku muhanda ujyana abantu mu mirima yabo, no ku mazu yabo. Bityo bigateza igihugu imbere kandi bikakigirira akamaro n'abaturage.

Umuhanda wamaze kuzura neza kandi wa leta. Aho wakozwe na leta ukaba unyuramo ibinyabiziga n'abantu bitandukanye. Aho ufasha abaturage kugera aho bagiye neza, kandi vuba. Aho ari ibikorwa remezo bituma igihugu kigaragara neza, kandi ubucuruzi bukagenda neza n'ingendo rusange zikagenda neza, bityo bikazana umusoro n'ubukungu bw'igihugu bukiyongera.

Ibikorwa remezo bitandukanye aho harimo umuhanda wo mu mujyi unyuramo ibinyabiziga bitandukanye n'abantu batandukanye, aho unyuramo abanyamaguru ukanyuramo amagare, aho ufite amatara ku muhanda aho urimo urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru abandi ku binyabiziga bitandukanye imodoka, n'amamoto, bityo ukazanira igihugu umusoro kandi bigatuma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Inyubako za leta igeretse kane, ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya leta, aho itanga umusoro, kandi ikabasha guteza imbere igihugu.

Mu busitani bwiza cyane bikorerwamo ibiganiro bitandukanye aho bakira abantu bakicara bakaganira, buri imbere y'inyubako igeretse maze bakaganira ibyunguka bagakora ama enteriviyu atandukanye bigatuma bibaha inyungu ,mu buzima bwabo bwa buri munsi maze bikabafasha kwiteza imbere ku bijyanye no gukora.

Inyubako yo gusengeramo; aho abakirisitu bahurira bagahimbaza Imana, inyubako ikoreshejwe amabuye, ikaba ifite ubusitani bw'umucaca, inyubako yo gusengeramo bagahimbaza Imana, ihuriramo abantu benshi bagasenga, ikaba inyuma y'inyubako hari ibiti biyikikije.

Inyubako ya Leta ikorerwamo ibikorwa bya Leta bitandukanye, aho higiramo abanyeshuri ba kaminuza, aho abayobozi batandukanye baje gusura iyi nyubako kugira ngo biba.

Inyubako itandukanye iberamo ibikorwa bya letaA aho iberamo ibikorwa bya leta bitandukanye bigakorerwamo n'imishinga itandukanye, aho abayigana bazaba bari gushaka serivisi kandi igatangirwamo neza bityo bigateza imbere igihugu kandi n'umusoro uriyongera bikagirira akamaro abaturage n'igihugu muri rusange bityo bigatuma abahagana bagira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ikiraro， aho bubaka ikiraro k’ikoranabuhanga kigezweho， kandi gikomeye， kigatuma ibinyabiziga n'abanyamaguru babasha kwambuka neza， amazi bakoresheje ikiraro cyubatswe gikoreshejwe ibyuma bitandukanye， aho abacyubaka bakibonamo， amafaranga yo kwifashisha mu...

Inyubako za leta zishinzwe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho zigeretse inshuro imwe, aho buri nyubako ifitiye igihugu akamaro aho hakorerwamo ibikorwa bitandukanye aho izi nyubako ari inyubako igeretse rimwe kandi ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite inzugi za metarike zimeze neza ikaba isize n'amarangi.

Ikiraro gikozwe uburyo bw'ikoranabuhanga aho kinyuze mu kirere, aho kinyuze hejuru y'ibiti bidukikije, aho kinyuze mu kirere kandi kikaba gikozwe ku buryo bwa leta kikaba kizana abakerarugendo b'Igihugu, kikaba gifitiye Igihugu akamaro, ndetse n'abaturage muri rusange, aho gifasha abaturage kugenda no kugera mu mirima yabo n'aho batuye byoroshye cyane.

Abacamanza bari kuburanisha umuntu wakoze ibyaha, ahagaze hagati abaturage baje kumva isomerwa ry'urubanza rw'umuturage wundi wakoze ibyaha, abacamanza baricaye kandi bambaye iniforume zabo, abaturage na bo babukereye bashishikajwe no kumva ibya muge.....

Inama yahuje abantu benshi batandukanye barengera uburenganzira bwa muntu n'ubutabera, aho barengera abantu ikiremwamuntu kugira uburenganzira bwacyo n'ubutabera, aho bize ku ngingo nyinshi zitandukanye aho bari mu nyubako imeze neza kandi bakaba bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha kumvikanisha amajwi, mikoro, aho bafite amazi abafasha gutuma barangiza inama bameze neza.

Inama y'abaturage umuturage ku isonga, abaturage, abanyamakuru begereye abaturage, bageze ku baturage bahawe ijambo, babahereje mikoro ngo bavuge ibibazo bafite kandi babakorere ubuvugizi, nta munyarwanda uhejwe, abaturage bari kuvuga ibibazo bafite kandi byakiriwe.

Imodoka atwara imizigo n'abantu. Ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, harimo imodoka itwaraga ibintu n'abantu na moto zitwara abantu n'ibintu zibijyana ahantu hatandukanye, aho imodoka iri gupakira imizigo y'ibintu bitandukanye. Ibitoki n'indi misaruro yabonetse ishyirwa mu mifuka, aho bari gupakira kugira ngo bijyanwe mu isoko maze ababihinze babashe kubona amafaranga, kandi bibafashe mu bu...

Imodoka ifasha mu utwara imizigo itandukanye, aho iyi modoka ifasha abaturage gutwara imizigo itandukanye, aho baba basaruye cyangwa se bajyanye mu isoko, maze bikabafasha gutwara umusaruro wabo, ukagerera ku isoko kugihe kandi ukahagera neza utangiritse, maze uri kuyitwara agahabwa amafaranga yo kumufasha noneho n'abasaruye imyaka bakishima cyane.

Ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu n'ibintu. Imodoka zitwara abantu n'ibintu. Igare ritwawe ,ritwara abantu n'imizigo maze bikagera kuri ba nyirabyo, bigafasha abantu kugeza imizigo ahantu bitabagoye, kandi na bo bakagerayo neza kandi vuba ku gihe. Maze bikabafasha mu buzima bwabo.

Aho imodoka ziparika, gare imodoka ziparikamo zatwara abantu n'ibintu bitandukanye, zibakura mu gace runaka zibajyana mu kandi, aho zitwara abagenzi maze bakagera aho bagiye ku mahoro kandi zigatwara abagenzi rusange, maze abagenzi bakashyura amafaranga maze ba nyirimodoka nabo bakunguka bakabona amafaranga bagatwara abagenzi, bityo bakabona amafaranga yo kwizigamira nayo gukoresha ibintu byabo mu buzima bwa buri munsi.

Gare abagenzi bategeramo imodoka zikabakura ahantu hamwe zikabajyana ahandi. Bityo bakagera aho bagiye ku mahoro kandi bakagenda neza. Aho imodoka zitwara abagenzi rusange n'ibintu bitandukanye bibakura mu gace runaka zibajyana ahandi, bityo bikabateza imbere. Maze abatwara imodoka bakabona amafaranga yo kwifashisha, na ba nyir'imodoka bakabona amafaranga yo kwifashisha kandi bagasagura ayo kubika muri banke.

Gahunda yo gutwara abagenzi n'ibintu bitandukanye itwara abagenzi bererekeza aho bagiye, aho iri mu muhanda ikaba itegereje abagenzi ko binjiramo kugira ngo ibajyane, ibageze aho bagiye bityo abayitwara bakabona amafaranga abafasha n'abagenzi bakishyura amafaranga kugira ngo bagere aho bagiye amahoro.

Ibinyabiziga bishinzwe gutwara ibintu n'abantu rusange, aho bitwara abantu maze bikabaha serivisi yo kubajyana bikabageza aho bagiye, bityo bakabishyura amafaranga agatuma bagira ukwiteza imbere no gukora ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'ubukungu, aho bafite moto ikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu bityo igateza imbere.

Indege itwara abantu n'ibintu bitandukanye ,aho iparitse ku kibuga cyayo yitegura guhaguruka, aho irinzwe n'abantu babigenewe kandi bashinzwe gucunga umutekano wayo ,aho itwara abantu n'ibintu ikabivana ku mugabane umwe ikaba ijyana ku wundi mugabane, bityo bakagira, bakabaho neza kandi ikaba ifitiye igihugu akamaro ,aho itanga umusaruro kandi ikaba iri mu bikorwa bya leta byiza.

Imodoka zitwara ibintu n'abantu zibajyana ahantu hatandukanye aho ziri mu muhanda ziri gusohoka aho zabugenewe, kugira ngo zijyane abantu aho zibajyana hatandukanye bityo bakagera aho bagiye neza kandi batuje batekanye ku mahoro, bityo bakishyura amafaranga maze ba nyiri imodoka na bo bakabona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye kandi bigateza imbere ingendo neza.

Imodokadoka itwara abagenzi rusange, aho iparitse aho ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, bagiye ahantu hatandukanye, n'ibintu ibijyanye ahantu hatandukanye, aho imodoka yegeranye n'ibindi binyabiziga bitandukanye, hariho nka moto nazo zishinzwe gutwara abantu n'ibintu zibajyana, zibakura mu gace kamwe runaka zibajyana mu kandi.

Abanyonzi batwara abagenzi bakabaha amafaranga yo kwifashisha mu bundi buzima butandukanye. Abanyonzi bari mu muhanda batwaye abagenzi babajyanye ahantu bagiye. Abanyonzi batwara amagare bakorera amafaranga yo kwifashisha mu buzima babona ibyo bakeneye bagaha abagenzi serivisi.

Ibikoresho bikoreshwa mu gutwara ibintu, aho bitwara ibicuruzwa bitandukanye, aho ababikoresha bakoresha amaboko gusa basunika n'ingufu, aho bajya mu isoko kugura ibintu bitandukanye ibindi bakabizana babitwaye kuri ibi bicuruguti bikozwe mu biti, kandi bikaba bitwarwa n'abantu basunikisha amaboko.....

Ikibuga cy'indege aho ziparitse, aho indege ziparika ku kibuga cy'indege, aho hari imodoka zaje gutwara guterura imizigo ivuye mu ndege, aho indege yazanye imizigo itandukanye, ikaba yafunguye bagage yayo, akaba imizigo ziri kuva mu ndege, hakaba hari abantu babugenewe bashinzwe guterura imizigo bashyira mu modoka.

Ikinyabizi gifasha abaturage gutwara imizigo, aho kibatwarira imizigo itandukanye ,aho gitwaye matela, aho gitwaye imyaka iri mu mifuka, n'ibindi bikoresho byo mu rugo biri mu biri mu bintu bitandukanye, aho gikura abaturage ahantu kikabajyana ahandi, maze bikabafasha kuhagera ku buryo bworoshye, kandi bikagirira inyungu na nyiracyo akabona amafaranga.

Iri ni isoko bacururizamo imyenda n'ibindi bintu bitandukanye. Aho harimo amajipo, amapantaro y'abagabo, amabati ashaje bagura bakifashisha gusakara amazu matoya yo mu rugo nk'ibikoni. Aho rihuriramo abantu benshi batandukanye abagore, abakobwa, abagabo n'abana. Bityo bakaza kugura imyenda bakeneye.

Imodoka ishinzwe gutwara abantu n'ibintu aho iri mu muhanda ikaba itwaye abantu ibajyanye ahantu hatandukanye. Aho itwara abagenzi benshi maze bakagera iyo bagiye neza kandi ku mahoro, ikaba itwara abagenzi rusange kandi ikabatwara neza ku mutekano kandi bakayishyura amafaranga maze nayo ikabona ba nyirayo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodoka itwara abantu n' ibintu, aho itwara imizigo zitandukanye ikazijyana aho iba igiye aho itwara imizigo itandukanye n' abantu, bityo bakagera ahantu bashaka kujya, imizigo yabo ikabageraho neza, kandi niyo yakwangika zigerayo zifite umutekano aho ba nyirimodoka babona amafaranga yavuye mu nyungu bakoresheje bigatuma babaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodoka yo mu bwoko bwa Ritiko itwara abagenzi n'ibintu, imodoka itwara abagenzi n'ibintu iri mu muhanda unyuramo abantu n'ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo imodoka nini itwara abagenzi n'ibindi bintu ,hakaba n'akandi kamodoka gatoya gatwara na ko abagenzi n'ibintu, maze bakabageza iyo bagiye bakabishyura amafaranga yo kwifashisha mu byo bakeneye.

Abanyonzi batwara amagare, abanyonzi bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu, aho batwara abantu bakabajyana iyo bagiye, barangiza bagatwara n'ibintu, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaguramo ibyo bakeneye.

Gare ikorerwamo, itegerwamo abagenzi, aho abagenzi bategereza imodoka ikabafasha kugera ku miryango yabo, n'ahandi hantu berekeza hatandukanye byoroshye, kandi bikabafasha kugenda bafite umutekano wuzuye, kubera ko baba bateze imodoka bagakatisha, bakabaha udutike bagomba gutwara, kugira bagere aho bagiye amahoro.

Umuhanda unyuramo abantu n'ibintu， akaba ari umuhanda，nyurwa ugendwamo imodoka，abantu batandukanye， n'ibinyabiziga bitandukanye，imodoka，moto， amagare，n’abagenzi bagenda ku maguru， umuhanda uri imbere y’inyubako， kandi ukikijwe nibiti byinshi bidukikije，bituma tugira ubuzima bwiza tukagenda ku mutuzo.

Gare iparikamo imodoka zitwara abagenzi n'ibintu muri rusange, aho haparitsemo ibinyabiziga bitandukanye, aho biri imbere y'inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, aho abagenzi banyuranamo bajya gutega ikinyabiziga bifuza kugendaho, maze bakishyura amafaranga maze ba nyir'ibinyabiziga bakabona inyungu n'amafaranga yo kuguramo izindi modoka.

Abagenzi mu indege ishinzwe gutwara abantu ibintu bitandukanye. aho abagenzi bageze mu ndege aho bategereje kwicara ubundi indege ikabajyana aho berekeje. ni byiza gutega indege kuko igezeyo abantu vuba kandi ikabagezeyo mu gihe gito bigatuma bagera aho bagiye kare kandi vuba bitabagoye cyane ni byiza.

Ibinyabiziga bitandukanye bishinzwe gutwara abantu n'ibintu, aho amagare atwarwa n'abanyonzi agatwara abantu abakuye ahantu bikakabageza aho bagiye, bityo bakabishyura amafaranga yo kwifashisha maze bakabasha kwizigamira, bakabona amafaranga yo gukoresha ibintu bakeneye mu buzima bwabo, kandi n'abagenzi nabo bakagira aho bagiye vuba ku gihe kandi neza batuje bafite umutekano.

Indege itwara imizigo itandukanye n'abantu. Indege itwara ibintu bitandukanye n'abantu. Ikibuga, iri ku kibuga aho iri gupakurura ibintu yazanye by'imizigo kandi ifunguye. Indege idufasha mu bucuruzi butandukanye bwo kuzana ibicuruzwa, bivuye ahandi bigera mu gihugu.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu bitandukanye, aho ziparitse aho zabugenewe kugira ngo zibone uko zitwara abantu, ubundi zikuremo n'abantu zizanye, aho zitwara abantu zibajyana mu bice bitandukanye hamwe n'ibintu byabo, aho harimo imodoka nini n'imodoka ntoya ziringaniye, n'abagenzi baje gutega imodoka abandi bava mu modoka bityo bakishyura amafaranga.

Amagare atwara abagenzi atwara n'imizigo. Aho amagare yatwara abagenzi maze abayateze bakajya ahantu hatandukanye, kandi bakagerayo vuba maze bakishyura amafaranga abanyonzi batwara amagare, maze bakabona amafaranga yo kuguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi bagasagura nayo bizigama bakayajyana muri banki. Bityo bakazayakenera mu gihe bazaba bafite ikibazo.

Gare iparikamo imodoka, aho abagenzi bategera imodoka, aho imodoka ziparitse muri gare, aho abagenzi bategereje imodoka, kandi bakaba bifuza kugera iyo bagiye ku mahoro, aho hahuriyemo abagenzi benshi bategereje kwinjira mu modoka bahawe amatike, maze ubundi zikabageza aho bajya.

Imodoka itwara imizigo ,aho itwaye imizigo y'umusaruro w'ibintu, aho iwujyanye aho ugomba kugurishirizwa ,maze ba nyira wo bakabona amafaranga ,na ba nyir'imodoka bakabona amafaranga yo kuguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi ,bikabafasha mu buzima babamo buri munsi.

Ubu ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu bitandukanye, aho harimo moto itwara abantu n'imizigo itandukanye, aho umumotari yicaye kuri moto ye, aho moto itwara abantu, maze abagenzi bagaha motari amafaranga maze nawe akabasha kwizigamira, kandi akageza abantu iyo bagiye ku mahoro.

Imodoka zitwara imizigo itandukanye, aho zitwara imizigo itandukanye, zikayikura ahantu runaka zikayijyana ahandi, aho bifasha abaturage koroherwa n'ingendo, bafashijwe n'imodoka ibatwarira ibintu n'abantu, maze bityo bakagera aho bagiye neza n'ibintu byabo batuje, aho iparitse itegereje ko bapakiramo imizigo kugira ngo ibajyane aho ibijyanye ibone amafaranga.

Ingendo rusange, ibinyabiziga aho bitwara abantu bose, kandi bikabatwara bakabishyura amafaranga, maze abantu bakagerera aho bagiye ku gihe kubera serivisi bahawe, n'abatwara bakabasha kubona amafaranga ababyarira inyungu, bityo bakabika muri banki, kandi bikabagirirai akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodoka zitwara abagenzi rusange, aho zitwara abantu n'ibintu bitandukanye, aho ziri mu muhanda kugira ngo zitware abagenzi ibageze iyo bagiye, maze abagenzi nabo bakishyura amafaranga, maze ba nyiri imodoka bakabona amafaranga abateza imbere bakongeramo izindi modoka bakunguka, bagasagura n'amafaranga kandi bikagirira leta akamaro.

Imyitozo ngororamubiri ibera mu busitani bugizwe n'umucaca bugakikizwa n'ibimera bitandukanye, aho harimo ibimera by'ibiti, kandi hakaba n'ikibuga cyabugenewe, kigizwe n'umucaca kikagirwa na tapi byabugenewe, kandi kikaba gishushanyijemo aho abantu bakora siporo bakorera.

Inzu ishinzwe kwakirirwamo ,gukinirwamo ,abakinnyi no kwakira abafana, aho abafana bicaye ari benshi. Buri mufana afite idarapo ry'igihugu cye kandi akaba ari gufana ikipe yo mu gihugu cye ,aho bishimira intsinzi amakipe abiri aba arushanwa . Ni byiza gukora siporo. Bitanga abafana kandi bikaduha amafaranga tukaguramo ibyo dukeneye.

Pisine ikorerwamo siporo yo koga, aho abantu boga baza kogera ahabugenewe, aho ameze neza ahafite ibyangombwa byose, hakaba hafite amazi, amasikariye yo kumanukiraho, agacaca kabugenewe k'ubusitani, kabafasha guhumeka neza no kubaho neza, no kumva akayaga, bityo bakagira ubuzima bwiza bakahakunda, maze hakinjiriza banyiraho amafaranga.

Siporo yo kugenda ku magare, siporo yo kugenda ku igare ni nziza ituma abantu batekereza neza, kandi bakagira ingingo zigororotse imitsi ikagororoka, amaraso agatembera neza mu mubiri. Ni byiza gukora siporo yo ku magare biteza imbere, hari n'amarushanwa aba yo gutwara amagare ni byiza ko dukora si.....

Siporo yo gusimbuka urukiramende, aho urukiramende batambika ibiti, bashinga ibiti bibiri, ikindi bakagitambika, maze abakina uwo mukino bakaza basimbuka ibyoyo biti bitambitse, aho urubyiruko rukunda gukina uyu mukino bikarufasha mu kugorora amagufa n'imitsi, no kugira ubuzima bwiza aho abandi bantu baba baje kureba uwo umukino wurukiramennde.

Siporo y' umukino w' abagore vole bolo, aho abagore bari gukina umukino, amakipe abiri atandukanye ari gukina umukino w' amaboko witwa vole bolo, bityo bakaba intego ari ugutsinda maze bakabona inyungu, bikabafasha kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagura ibyo bakeneye kandi bikabafasha no kunanura imitsi n' amagufa bakabaho neza byuzuye.

Abakinnyi babiri b'abakobwa bari gukina, umukino wa basiketiboro, aho abantu baje kubafana bicaye babareba bari mu kibuga, umwe afashe umupira arashaka gustinda, undi yamanitse amaboko hejuru ye, nibyiza gukora siporo ni ingirakamaro bituma tugira imitsi mizima n'amagufa kandi tukagira ubuzima bwiza.

Umukino wahuje amakipe abiri atandukanye w'amaguru, aho ikipe imwe iri kurwaniriza gutsinda indi, kugira ngo ibone ibihembo bishimishije. Umukino w'amaguru uri gukinwa hagati y'amakipe abiri; aho umukinnyi umwe agiye gutera, ukaba uri kubera kuri sitade, aho ufite abafana.

Abantu batandukanye baje kureba umupira aho baba baje gukurikirana ibijyanye na siporo, bicaye muri sitade mu nyubako yabugenewe ishinzwe kuberamo imikino itandukanye, aho bicaye bategereje kureba uko imikino iri bugende maze bakihera ijisho, bityo bigafasha abakina gukina batuje bameze neza kandi bishimye kuberako baba bafite abafana, kandi hakaba harimo n'abakinnyi bakina.

Siporo yo gukina umukino wa handiboro ku bana b'abakobwa, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza n'ingingo.

Isiganwa ry'amaguru aho siporo yo kwirukanka barushanwa, bityo usize abandi akaba uwa mbere agahembwa ibihembo bimufasha kubaho neza, no gukomeza kwiteza imbere mu buzima bwiwe bwa buri munsi, aho abasiganwa ku magare bitondekanyije n'abayobozi bakaba bafite imidari y'ishimwe, kugira ngo babone bishimire uko bazajya bakora akazi.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino wa basiketiboro. Bari gukina bacengana. Ni Abanyarwandakazi. Bari mu kibuga abagabo b'abatoza babo barahari, bari kubareba, bari kuri sitade, hari abandi bantu. Baricaye babafana. Ni byiza gukina umukino wa basiketiboro utuma tugira ubuzima bwiza kandi gukora siporo nibyiza ni ingirakamaro.

Abakinnyi ba basiketi aho bakina ari amakipe abiri atandukanye intego ari ugutsinda bityo bigatuma babona inyungu iturutse mu mikinire yabo, kandi bikabatunga no mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bikabagirira akamaro mu buzima bwabo aho babaho neza kandi imitsi n'amagufa yabo bikagororoka bikanakomera kandi bikabinjiriza n'amafaranga yo kuguramo ibintu bakene.

Isiganwa ry'amagare aho abasiganwa ku magare bari mu muhanda bari ku magare, maze bakarushanwa kugira ngo uzaba uwa mbere abashe kubona ibihembo, maze bimufashe kwiteza imbere no gukora ibintu yifuza mu buzima bijyanye no kubaho neza, ari uko abonye amafaranga kandi yayakoreyemo.

Siporo yo kwiruka ikorerwa mu muhanda. Ikorwa habaye amarushanwa y'abantu batandukanye bityo bigatuma bahemba uwabaye uwa mbere akishima kandi bikamugirira akamaro.

Siporo ikorerwa ku magare, siporo ikorerwa ku magare ifasha abakora siporo kunanura ingingo, no kunanura imitsi maze bakazajya no mu marushanwa, yo gutwara amagare aho bajya mu marushanwa isiganwa ry'amagare, maze bikabafasha batsinda bakabona amafaranga, yo kwifashisha akabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakinnyi bane bakina umukino wa tenisi bafite ibikoresho bari mu kibuga. Bari imbere ya file bafite ibikoresho bifashisha bakina umukino wa tenisi. Bambaye iniforume inyuma y'abakinnyi. Bafite hari koci wabo. Abakinnyi batatu harimo na koci wabo ari kugaragara.

Abakinnyi ba aperi fs bari gukina na reyosiporo kuri sitade. Abafana ni byiza gukina umukino w'amaguru ,bafite abafana benshi baje kureba uwo mukino, bishimiye kubona insinzi, ni byiza gukina umukino w'amaguru bituma tunanuka imitsi ,tukagira n'ubuzima bwiza.

Abakinnyi babiri bakina umukino wa tenisi, bari ku kibuga imbere ya fire, bafite ibikoresho byifashishwa, ibyo bifashisha bakina tenisi. Bari imbere ya sitade irimo abantu benshi b'abafana, baje kubafana, bari gusuhuzanya, bambaye iniforome, ingofero mu mutwe, bagiye gutangira.

Inyubako ya sitade amahoro, aho yakira abantu benshi batandukanye, abafana. Ndetse imbere muri sitade hakaba harimo ikibuga cy'umupira, abakinnyi bakiniraho umupira w'amaguru. Inyubako iherereye mu mujyi wa kigali ikaba ifasha abanyarwanda bose kwishimisha bareba umupira.

Umukino wa hendibolo, aho abakobwa bari gukina umukino wa hendibolo ,bakaba ari amakipe abiri atandukanye yose akeneye insinzi ,aho abakinnyi bafata umupira kugira batsinde ,bagamije gutsinda indi kipe kugira ngo babashe kubona igikombe bahembwe.

umuhanda wo mu giturage unyura mu baturage aho batuye. Umuhanda ufasha abaturage kugera mu ngo zabo no mu mirima yabo. Aho iba inyuze hagati mu midugudu, aho abantu batuye, bityo bibafasha kugenda bakagera mu mirima yabo, bakagera n'ahandi hantu baba bashaka kujya, baba bateze n'ibinyabiziga bitandukanye.

Inyubako ikikijwe n'igipangu n'uruzitiro ikaba ibamo abantu batandukanye, iri ku muhanda w'ibitaka unyuramo abantu hari kunyuramo umuntu mu muhanda uri imbere y'inyubako. Inyubako ifite indabyo ziri imbere y'igipangu ifite amapoto ajyanye amashanyarazi mu rugo.

Umuhanda unyuramo abagenzi batandukanye, ukanyuramo abagenzi bafite ibinyabiziga bitandukanye imodoka, moto n'amagare unyuze hagati y'amazu atandukanye utuma abagenzi bagera aho bagiye vuba bifashishije ibinyabiziga. Umuhanda ni mwiza.

Umuhanda unyuze mu midugudu y'abantu, aho ugeza abantu ku macumbi yabo ukabageza ku ngo zabo, ukongera ukabageza no ku masambu yabo, aho ufasha abantu batuye aha ngaha kugira ngo babashe kugera iwabo bitabagoye, aho ukozwe urimo kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye imodoka, amato, amagare hamwe n'abantu, bityo bigatuma abantu bagera iwabo kare.

Umuhanda ujyana abantu bakagera mu ngo zabo banyuze mu mudugudu, aho abaturage bawuyuramo bagiye mu ngo zabo mu mudugudu no mu mirima yabo , aho baba bagiye gutwara imisaruro yabo. Akaba ari umuhanda w'ibitaka . Ukaba unyuramo ibinyabiziga bitandukanye aho bibafasha gutwara ibintu n'abantu bajya mu ngo zabo abandi bajya mu masambu yabo.

Umuhanda wafasha abaturage kugera aho batuye no mu mirimo zabo aho baba bagiye, ukaba umuhanda ukozwe neza urimo kaburimbo, kandi bukaba bunyuze mu mudugudu, ukaba bujyana abaturage mu ngo zabo bakagera aho bagiriye neza, kandi ukaba unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, bityo bakabasha kugera aho batuye neza kandi vuba batuje bafite umutekango.

Umuhanda unyura mu mudugudu ufasha abaturage bawuturiye kujya ku mirima yabo, no kugera mu midugudu yabo, aho ufasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, aho ubageza ku masambu yabo ukanabageza aho batuye bityo ukaba ari umuhanda ukoze neza urimo kaburimbo , ukaba unyuramo ibinyabiziga bitandukanye.